Ni icyapa gisize irangi ry'umutuku, hejuru hariho irange ry'umweru, cyandikishije mu ibara ry'umweru n'umukara. Hariho ifoto y'umuzungu wambaye ishati y'umweru.

Ni icyapa gisize irangi r'mweru cyandikishije mu magambo y'umutuku n'umukara hasi iriho umukobwa mwiza cyane ugaragara ko yishimye, wambaye imyenda y'umukara.

Ni imodoka nziza cyane, yicayemo abantu babiri b'urubyiruko umuhungu n'umukobwa, hakaba hatwaye umukobwa wambaye ishati y'umweru, w'inzobe ufite imisatsi y'umukara.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru n'ubururu hasi, cyandikishije amagambo y'ubururu hejuru, hasi ni umweru, ni ukuguru k'umuntu bigaragara ko yakoze impanuka.

N'umukobwa wimibiri yombi ,wambaye lunette mumutwe, ufite imisatsi yumukara, wishimye mumaso ye, wambaye ishati yumweru ikote ry'umukara uri kutwereka imibare...

Ni abantu babiri bishimye cyane umugabo numukobwa bicaye ku ntebe nini isize irangi ry'umweru kumeza hateretse agatako gafite ibara ry'umutuku mu magambo yandikishije umweru .

Ni abantu batatu bagiye batandukanye; umugore, umwana n'umugabo bambaye imipira y'umweru umugore yambaye ipantaro y'umweru.

Ni abagabo babiri umwe yambaye ishati yenda gusa ubururu ikote ry'umutuku ipantaro y'umutuku, inyuma yabo hari imodoka zisize irange ry'umweru.

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije mu magambo y'ubururu n'umutuku n'umweru, kiriho ifoto y'umugabo w'umuzungu wambaye

Ni icyapa gisize irangi ry'umweru, cyandikishije amagambo y'umukara n'ubururu, gishushanyijeho ingurube, inkoko n'inka, bigaragara ko bari gushishikariza abantu korora.

Ni abantu batatu bahagaze bagiye batandukanye umuhungu umwe, n'abakobwa babiri bambaye imyenda y'umukara, umuhungu we yambaye ishati y'umweru.

Ni inzu nini irimo abantu babiri umwe n’ umwirabura yambaye ishati y’ ubururu karuvati irimo imirongo y’ umutuku n’ umukara undi n’ umuzungu yambaye.

Ni inzu isize irangi ry'umweru igaragara neza bacururizamo imyambaro y'abagore igiye itandukanye nk'amakanzu ushobora kwambara ugiye gusura abantu.

Ni inzu nini isize irangi ry'umweru, yubakishijwe amakaro, bacururizamo imyambaro y'abagore itandukanye, banjyana mu bukwe, ndetse n'inkweto bakoresha muri ibyo birori.

Ni inzu igaragara ko ari iy'ubucuruzi bigiye bitandukanye hateretse indobo ndende z'umweru hahagazemo umudamu wambaye imyenda y'ibitenge.

Inzu nziza isize irange r'umweru bigaragara ko bacuruzamo imyenda igiye itandukanye imanitse irimo abakobwa babiri umwe yambaye agapira k'ubururu undi bigaragara ko ari kwishyura.

Ni inzu nini igaragara neza, yubakishije amakaro hasi, mo imbere iragaragara ko ari iy'ubucuruzi imanitsemo imipira igiye itandukanye.

Ni umuhanda w'umukara, mu nzira z'abagenzi harimo umuhungu umwe ugenda n'amaguru, hagati harimo umunyonzi n'umumotari, hirya hateye indabyo.

Ni imodoka nini y'igikamyo bifashisha batwara imizigo igiye itandukanye isize irangi ry'umweru, imbere yayo hari abagabo batatu umwe yambaye igiserubeti.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza hasi yubakishije amakaro, hari ameza ateretseho mashini ifite ibirahure by'umukara, hirya haparitse imodoka nyinshi.

Ni inzu isize irangi ry'umweru hari icyapa gisize irangi ry'umweru mu magambo y'umukara, inyuma hari abakiliya babiri umugabo n'umwana, imbere hari ubakira wambaye umwenda w'umweru.

Ni umuhanda w'umukara uparitsemo imodoka isize irangi ry'umukara ifite ibirahuri by'umukara, hirya hateye ibiti, hakurya hari inzu igeretse inshuro nyinshi.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umweru ku bikuta hasi yubakishije amakaro, irimo abantu batanu, umuhungu umwe n'abakobwa bane, inyuma yabo hari icyapa gishushanyijeho imodoka.

N’ umuhanda wamabuye matoya, uparitsemo imodoka eshatu zisize irangi ry’ umukara, imbere mu gipangu harimo amabati asize irangi ry’ ubururu.

Mu muhanda w'umukara uri mu modoka nziza cyane bigaragara ko igihe nshyashya, ifite ibirahuri by'umukara inyuma yayo hari indi nzu nini irimo izindi modoka harimo ifite.

N’ inzu yubakishijwe amakararo hasi iparitsemo imodoka y'umukara igaragara ko nkaho ari nshyashya inzugi zaho ziriho ibirahure, ibikuta byabyo bisize irangi.

Ni umuhanda wubakishije amabuye iparitsemo imodoka isize irangi ry’umukara, hahagaze abagabo babiri umwe yambaye umupira wumukara.

Ni umu umugabo w'igikara, wambaye amarinete y'umukara, wambaye umupira w'ubururu, ufite amafaranga menshi mu ntoki, inyuma ye hari utubati dufite ibirahuri.

Ni umumama usutse w'inzobe wambaye imyenda y'igitenge, ufite agatase karimo icyayi, mu imbere harimo igihiko, hirya ye hari intebe isa ubururu.

N'igikombe cy'ikirahure giteretse kirimo amata y'ikivuguto aturuka kunka baba bakamye, bakavanga n'indi misemburo bakayitereka iminsi akaza kuvura.

Ni umuhanda w'amabuye; uparitsemo imodoka zigiye zitandukanye harimo isize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara: ifunguye umuryango bigaragara ko hari gusohokamo umuntu.

Ni inzu nini yubakishije amakaro hasi, ihagazemo abantu batatu, abagabo babiri n'umukobwa umwe, bambaye imipira itukura n'umukara bafite ikinyobwa mu ntoki bisa nk'aho bari kucyamamaza.

Ni inzu igaragara ko ifite isuku, hasi yubakishije amakaro imbere, hari umwana w'umukobwa uhagaze n'umuhungu wambaye umupira w'umukara, bigaragara ko ari ahantu bagemura amata.

Ni inzu isize irangi ry'umweru ku bikuta, hasi hasa nk'ahubakishije amakaro, harimo agatageri karimo ubujerekani busize irangi ry'umweru, bigaragara ko bahacururiza amata.

Ni intoki z'umuntu wirabura ufite amafaranga menshi mu ntoki ze agiye atandukanye harimo n'amafaranga atari amanyarwanda harimo iza bitanu igihumbi maganatanu.

Ni inzu nziza igaragara neza ifite ibirahure kumadirishya, isize irangi ry’ umutuku ryandikishije mu amagambo yumweru n’umutuku hanze hahagaze umugabo.

Ni inzu nini ifite icyapa cyandikishijweho amagambo y’umweru, mu gitambaro cy’ubururu n’umweru bigaragara ko ari ahantu bavunjishiriza amafaranga agiye atandukanye y’ibihugu byose.

Ni inzu isize irangi ry'ubururu kumadirishya nzugi, ifite mo n'ibirahure, hanze hateretse intebe nziza zigiye zitandukanye zifite n'imisego.

Ni inzu nini yubakishijwe amakaro hasi, hejuru ku bikuta bisize irange ry'umweru hariho udutako tw'umukara, irimo intebe nziza nini wakakiriramo abashyitsi.

Ni inzu nziza, igaragara neza, iri ahantu hasa nkahatuje hari isuku, hari ameza n'intebe bikozwe mu biti, hasi hubakishije amatafari.

Ni inzu nziza cyane iri ahantu heza, yubacishije amakaro hasi, ifite intebe zisize irangi ry'umukara, ku meza hateretseho ibikombe bibiri.

Ni inzu nziza cyane yubakishije amakaro hasi, bari kutwerekamo intebe zifite imisego n'ameza y'ibiti, hirya hari izindi ntebe zisize irangi ry'umukara ,hari utumeza...

Ni inzu nini nziza cyane bigaragara ko ari muri salon, Hari televiziyo ifite ibirahuri by'umukara. Hirya hari umutako wururabyo hasi yubakishije amakuro.

Ni inzu nziza igaragara neza, isize irangi ry'umweru ku rukuta, yubakishije amakaro hasi, irimo intebe, hirya irimo ibirahure.

Ni inzu nziza igaragara neza, isize irangi ry'umweru ku gikuta, hasi yubakishije amakaro, harimo intebe, ahantu ushobora kwakirira abashyitsi hirya.

Ni inzu nziza yubakishije amakaro hasi, harimo intebe n'ameza zikozwe mu biti, bigaragara ko ari ho abantu biyakirira bagafata amafunguro.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza igizwe n'ibirahure byinshi ku muryango yubakishije amakaro hasi ifite intebe z'umweru, ubururu ifite ameza y'ibiti ariho ibirahuri hejuru.

Ni inzu irimo intebe z'amadive harimo imisego ifite ibara ry'umweru n'ivu ndetse na zo ikaba ifite imisego y'ivu harimo ameza afite amatoya ushobora kwakiriramo abashyitsi.

Ni inzu igaragara neza, ku meza hateretseho agasani n'agakombe bisize irangi ry'umweru, mo imbere biragaragara ko harimo icyayi kirimo amata hejuru y'urufuro rwayo.

Ni ifoto y'umuhanda w'umukara, hirya hari inzu nini igeretse, ifite imiryango isize ibara ry'umukara, hari amatara yaka ibara rya umuhondo.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza yubakishije amakaro hasi, hari intebe nyinshi, ameza ariho ibirahuri byubitse, bigaragara ko ari ahantu bafatira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa.

ni inzu nini iherereye mu mujyi wa kigali, ifite icyapa gisize irangi r'umukara mu magambo y'umweru, bigaragara ko ari ahantu bafatira ibyo kunywa n'ibyo kurya.

Ni inzu ndende igeretse gatatu igaragara neza irimo ibirahure byubakishijwe amakaro isize irangi ry'ubururu hasi hateye indabyo nyinshi ndetse n'ibyatsi .

Inzu nini yubatse mu buryo bugezweho ifite, inzugi iriho irangi ry’ umukara. hariho, uturongo tw’ umutuku tuzamuye, hanze ifite ubwogero burimo amazi menshi.

Ni inzu nini igeretse ifite ibirahure by'umukara, hanze hateye ibiti byinshi bifasha kuyungurura umwuka abantu duhumeka, bigaragara ko ituye ku muhanda.

Ni igikoni cyiza kigezweho kirimo umutetsi wambaye agapfukamunwa k'ubururu imyenda y'umweru irimo utuntu tw'umukara ari gukata karoti, ibitunguru, pavuro hari amavuta

Ni ahantu hanini harimo amazi asa ubururu, ushobora kujya kuhogera wumva unaniwe, cyangwa ushaka kuruhura mu mutwe hirya hateye ibiti byinshi.

Inzu nini ifite inzugi zisize irange ry'ubururu ryandikishije mu magambo y'umweru n'umukara, imbere harimo intebe zisize irange ry'umutuku bigaragara ko ari ahantu ushobora kwakira serivise.

Ni inzu nini ifite ibirahure by'umukara, hari icyapa cyanditse mu magambo y'umweru, mu ibara ry'ubururu, imbere yabo hari icyapa gishushanyijeho abantu batatu, umugabo umugore n'umwana.

Ni inzu nini bari kutwereka icyumba kiberamo inama zike zitandukanye hatoya harimo intebe isize irangi ry'umukara ameza akoze mu biti.

Ni umukobwa mwiza ukiri muto w'inzobe, useka neza, ufite imisatsi y'umukara, wambaye itaburiya y'umweru, bigaragara ko ari umuganga ufasha abarwayi.

Ni inzu isize irange ry'umweru, handikishijeho amagambo y'umukara, hasi hadekoye tapi y'umweru, hejuru hariho icyapa cyandikishijweho amagambo y'umweru.

Ni imodoka nziza cyane, igaragara nkaho ikiri nshyashya, imbere yayo hari umugabo wishimye ufite ubwanwa bw'umukara, wambaye amarinete, yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'ubururu.

Ni inzu yubakishije amakaro hasi irimo abantu bagiye batandukanye; abagabo, abagore baje kwaka serivise zigiye zitandukanye, umuntu umwe wicaye ku ntebe w'umugabo niwe uri ugutanga serivise.

Ni abantu babiri bishimye mu maso yabo buri muntu wese wabonye arabibona, umuhungu n'umukobwa bafite urufunguzo mu ntoki umukobwa ufite imisatsi y'umukara.

Ni isoko ririmo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, bigaragara ko bari gucuruza imyumbati, amateke higanjemo ibiryo nyarwanda.

Ni isoko rinini ririmo urujya n'uruza rw'abantu, abagore bagiye batandukanye bari gucuruza inyanya, intoryi, insenda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ni umudamu wishimye wicaye uri gucuruza ibintu bigiye bitandukanye mu karitajeri, harimo inyanya, imineke, amaronji. tungurusumu ndetse n'ibindi byose wifuza.

Ni isoko rinini, bacururizamo imboga, amashu, karoti, puwavuro, ibibiriganya, hahagazemo umuntu umwe wambaye imyenda y'umukara n'ingofero y'umukara.

Ni isoko rinini ryubakiye hejuru rifite amabati asize irangi ry'ubururu, hanze hari abantu benshi bagiye batandukanye abahungu, abakobwa bari gucuruza ibitoki hanze.

Ni ifoto igaragaza ihuriro ry'abana benshi, abamotari abagenzi bagenda n'amaguru amamodoka atandukanye asize irangi ry'umweru moto zitwara imizigo zifite ibara ry'ubururu.

Ni inzu nini igaragara ko ari iy'ubucuruzi, irimo uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo umukobwa wambaye ikote ry'ikoboyi, ipantaro y'umukara.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye harimo abantu benshi abagore n'abagabo bari gucuruza puwavulo zigiye zitandukanyekanye inyanya, ibiriganya n'ibindi.

Ni isoko rinini ryubakishije ibiti bacururizamo inkweto ibikapu by'umutuku, umweru, n'umukara hakaba harimo abagabo babiri gusa muri iryo soko.

Ni umuhanda w'umukara, urimo imodoka nyinshi zigiye zitandukanye zifite amabara agiye atandukanye, harimo izisize irange ry'ubururu, umweru nirindi, hirya hari amazu menshi.

Ni isoko rinini ritubakiye ricururiza hasi, ririmo abakiriya benshi n'abacuruzi bacuruza inyanya ibitunguru amashu ndetse n'ibindi, hirya hari akazu.

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye nk'inyanya, harimo umukobwa w'inzobe wambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, ishati ifite amabara y'umukara n'umweru.

Ni isoko bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye, amashaza, inyanya, imineke, ibishyimbo n'umuceri ushobora no gusanga...

Ni isoko rinini bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye nk'ibitenge, bifashishwa nk'imyambaro y'abagore hahagazemo abahungu benshi bambaye imyenda y'umukara.

Ni umuhanda w'umukara urimo ibyapa byinshi biyobora abagenzi, abatwara imodoka, hirya hari inzu ndende igeretse gatatu ifite ibirahure byinshi handikishije amagambo y'umweru.

Ni isoko ririmo abantu bagiye batandukanye, bari gucururizamo ibintu bitandukanye harimo nk'ibikapu bifite amabarage atandukanye, hahagazemo abakobwa n'abahungu.

Ni inzu nini nziza y'ubucuruzi, irimo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo, abakobwa n'abasore bacururizamo inkweto.

Mu isoko rinini ry'ibiribwa harimo imbuto zigiye zitandukanye hahagazemo abantu abagore n'abakobwa bari gucuruza imineke, pome, inanasi na wotameroni.

Ni ahantu hanini bigaragara ko ari isoko ririmo abantu benshi bagiye batandukanye abagore ndetse n'abana, bari gucuruzamo imyenda igiye itandukanye, imboga.

Ni isoko rinini ryubakiye ririmo abantu bagiye batandukanye, harimo abagore bari gucuruza inyanya, intoryi n'ibindi bicuruzwa bigiye bitandukanye.

Ni inzu bacururizamo ibyo kunywa irimo abakobwa babiri umwe yambaye umupira w'umuhondo, ipantaro y'umukara, wasutse ibintu by'umukara wambaye amaherena n'ingofero y'ubururu n'umuhondo.

Ni umutaka wa MTN usize irangi ry’umuhondo, wandikishije mu magambo y’umukara, hahagaze abagabo umwe wambaye ishati ya MTN.

Ni inzu imwe ya emutiyeni isize irange ry'ubururu n'umuhondo imbere harimo umusore umwe hirya hateye insina hari inzu imwe ifite amabati asize irange ry'umutuku.

Ni abantu babiri bari bari imbere y'imodoka isize irangi r'umukara bisa nkaho wari wambaye ikote ry'umukara ari kwishyura uwari wambaye umupira w'umuhondo wanwandishije amagambo y'ubururu.

Ni akazu ka MTN gasize irangi ry’umuhondo, kandikishije mu magambo y’umukara, gafunguye amadirishya yose hahagazemo umugabo wambaye imyenda y’umukara.

Ni akazu ka emutiyeni gasize irangi ry'umuhondo kandikishije mu magambo y'umukara, hahagaze abantu batatu bashobora kugufasha muri serivise zigiye zitandukanye nko kohereza amafaranga.

Ni akazu ka emutiyeni gasize irangi ry'umuhondo, mu kadirishya hahagaze umwana w'umuhungu wambaye umupira utukura, n'ipantaro y'umukara hirya naho hahagaze abandi batatu harimo umukobwa.

Ni akazu ka Emutiyene gasize irange ry'umuhondo hicayemo umuntu umwe, ni ahantu ushobora gukoreshareza serivisi zigiye zitandukanye kubitsa, kubikura ndetse no kugura ibintu bigiye bitandukanye nk'amayinite.

Ni umuhanda urimo umutaka wa emutiyeni ( MTN) usize irangi ry'umuhondo ,abambaye amajire ya emutiyeni (MTN) batatu n'umukiriya umwe hirya haparitse imodoka.

Ni umutaka wa eyateri ufite ibara ry'umutuku mu imbere harimo abambaye umupira w'umutuku ingofero y'umutuku ipantaro y'umukara bashobora kuba ari bo bari gutanga serivisi.

Ni umuhanda w'amabuye hari akazu ka eyateri kandikishije mu magambo y'umweru gasize irangi ry'umutuku hirya hicaye umuntu hakurya haparitse imodoka isize irange ry'umweru.

N’ umukobwa w’ inzobe ufite umusatsi w’ umukara wambaye kuteri mu mutwe ufite terefone mu ntoki, bigaragara ko yicaye ku buriri hariho agakapu k'umukara, hirya hari icyapa cyandikishijeho amagambo y’umukara.

Ni inzu nziza ndende igeretse irimo ibirahure byinshi isize irangi ry'umuhondo, ifite icyapa gisize irangi ry'umweru, mu magambo y'ubururu hasi haparitse imodoka.

Ni umuhanda wumukara urimo moto ebyiri ziriho abagenzi n'abamotari, hirya hateye ibiti byinshi twifashisha dukuraho umwuka duhumeka hirya.

Ni igare iriho umugabo wambaye umupira wicyatsi uhetse agakapu k'icyatsi, bigaragara ko atwara ibintu watumije akabikugereza aho uri.

Ni abakobwa babiri beza umwe yambaye umupira w'icyatsi wanditseho amagambo avuga ngo ni vuba vuba bigaragara ko ari abantu bakuzanira ibyo watumije byose aho waba uri hose.

Ni umuhanda w'umukara urimo moto imwe iteretseho agakapu kandikishije mu magambo y'umweru mu ibara ry'icyatsi, hahagaze n'umugabo bigaragara ko ari abantu azaniye ibintu batu.

Ni inzu nziza cyane buri muntu wese yakwishimira kubamo yubakishijwe amakaro hasi kukuta hasizeho irangi ry'umweru, iherereye mu mujyi wa kigali ntabwo ihenze pe buri wese yayigura.

Ni inzu ndende igeretse ifite igipangu gisize irangi ry'umukara yubakishije ibikuta byayo amakaro nyezu bigaragara ko ari nziza cyane ushobora gukodesha.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza yubakishije amakaro hasi asa umweru ifite ibirahure by'umukara harimo imirongo y'umweru iherereye mu mujyi wa kigali .

Ni inzu nziza igeretse, ifite ibirahure by'umukara, iherereye mu mujyi wa Kigali, Kibagabaga ikodeshwa, ku kwezi wishyura amafaranga angana n'ibihumbi icumi.

Ni inzu nziza cyane iherereye kabeza mu mujyi wa kigali ifite icyumba kiriho matera, umusego; ifite ibikuta bisize irangi ry'umweru amarido y'umukara

Ni umurima munini utarimo ibyatsi byinshi harimo bikeya, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye igipangu cyayo, iherereye i Kigali.

Ni umugabo w’inzobe wambaye agapfukamunwa k'umukara, wambaye ishati y’ubururu irimo uturongo tw’umweru aherereye i Kigali hirya ye hari ibiti.

Ni inzu nziza isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure bisize irangi ry'umukara mu mirongo, ni icyumba kirimo igitanda kiriho matera harimo n'akabati, iherereye mu mujyi wa Kigali,

Ni inzu ibereye amaso, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahuri by'umukara, iherereye Kanombe, ifite ibyumba bitanu, ubwogero bune.

Ni inzu nini igeretse, iri hakurya y'umuhanda, isize irangi ry'umweru n'umukara, iherereye mu mujyi wa Kigali Kabeza, irimo ibyumba bitatu n'ubwogero bitatu gusa.

Ni inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, isize irangi ry'umweru n'ubururu, ifite ibirahure by'umukara irimo ibyumba bine byo kuraramo, ibyumba bitatu byo kogeramo.

Ni inzu nziza cyane igaragara neza, igeretse ifite ibirahure ku madirishya, ifite ibyumba bibiri byo kuraramo, bibiri byo kongeramo, hanze yubakishije amatafari ahiye ku gipangu.

Ni inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho, inzugi zayo birimo ibirahure, iherereye mu mujyi wa Kigali i Gikondo irimo ibyumba bibiri icyumba kimwe cyokongeramo,

Ni inzu nziza cyane igeretse yubakishije ibirahure byinshi ku bikuta, irimo ibyumba bibiri byo kuraramo, ibyumba bibiri byo kongeramo, hanze hahagaze umuntu umwe.

Ni inzu igaragara ko bakiri kuyubaka hejuru hariho umuhungu uri guteraho amabati ,hasi hahagaze undi wambaye ishati y'umutuku hari icyapa cyandikishije amagambo y'umutuku.

Ni inzu nziza cyane buri wese yakwifuza kubamo, isize irangi ry'umweru, ifite ibirahure by'umukara hasi hubakishijwe amakaro iri kugura miliyoni ijana na mirongo itatu.

Ni inzu nziza igaragara neza isize irangi ry'umweru ahantu hose; ifite ibirahure ku madirishya, hanze hari jaride bigaragara neza iherereye i kigali.

Inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho ifite ibirahure bisa umukara harimo ibyumba bine byo kuryamamo, ibyumba bitatu by'ubwogero iherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Ni inzu ndende zituye ahantu heza cyane, hahagaze umwana w'umukobwa, haparitse imodoka isize irangi ry'umukara hirya hari ibiti, ni ahantu ushobora guparika imodoka nyinshi.

Ni inzu nziza cyane yubatse mu buryo bugezweho, ifite ibirahure by'umukara, irimo ibyumba bine byo kuraramo bitatu byo kongeramo, iherereye i Kanombe mu mujyi wa Kigali.

Ni inzu nziza igaragara neza mo imbere, hanze haparitse moto iri ahantu bigaragara ko ari mu bitaka, n'inzu igurishwa miliyoni magana atatu gusa.

Ni inzu nini yubatse mu buryohe bugezweho igaragara ko ari iy'ubucuruzi hasi hubakishije amakaro, hari umugabo wambaye agapfukamunwa n’ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Ni inzu nini isize irangi ry'umweru hejuru, hasi yubakishije amakoro, irimo abantu benshi abahungu n'abakobwa, inzugi zaho zisize irangi ry'mukara.

Ni umuhanda wa kaburimbo, urimo abanyamaguru benshi hateye ibiti byinshi birebire, hari icyapa cyanditseho i Remera bigaragara ko kiri kuyobora abantu.

Ni inzu isize irange ry'umweru irimo amatara y'umweru, hahagazemo umukobwa n'umuhungu bacururizamo inkweto, imyenda, ibintu byose bijyanye n'imideri.

Ni inzu y'ubucuruzi nini ifitemo isuku mo imbere. Harimo abakobwa babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara, umwe yambaye umupira w'umweru.

Ni inzu nini yubakishijwe amakaro hasi, igaragara nk'iy'ubucuruzi bacururizamo imyenda y'abagabo mo imbere harimo abantu.

Ni isoko rinini, hasi hubakishije amakaro, imiryango ni ibirahure bigaragara ko bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, nk'inkweto n'ibindi bintu wakenera.

Ni inzu nini yubakishijwe amakaro bigaragara ko ariy'ubucuruzi, harimo abantu benshi bagiye batandukanye, abagabo ndetse n'abagore bacuruzamo inkweto ndetse n'abakiriya.

Ni inzu yubatse ku buryo bugezweho bugaragara ko bacururizamo ibintu bigiye bitandukanye irimo umugabo wambaye ingofero y'umukara, umupira w'umukara hirya hari wambaye umupira wa tisheti y'ubururu.

Ni inzu nini y’ubakishije amakaro hasi bigaragara ko ari iyo ubucuruzi, harimo ibintu bigiye bitandukanye nk'amavuta yo guteka harimo umugabo.

Ni abantu benshi bicaye bigaragara ko ari abagore n'abana, bigaragara ko baje kwishyura ubwishingizi bwa mituweli kugirango babashe kwivuza bitabagoye cyangwa ngo binasabe amafaranga menshi.

Ni igikuta cyubakishije amatafari ahiye, imbere hicaye abantu batandatu ku ntebe, inyuma yabo hari icyapa gisize irangi ry'umweru cyandikishije amagambo y'ubururu.

Ni inzu ku bikuta hariho ibitambaro bisize irangi ry'umweru, hari abantu babiri umuhungu n'umukobwa bicaye ku ntebe zisize irangi ry'umukara,

Ni inzu iri kuberamo inama, irimo abantu bane batandukanye abagore n'abagabo, inyuma yabo hari icyapa gisize irange ry'umweru.

Ni ahantu hari abantu bagiye batandukanye, uwari ufite mikoro yari yambaye umupira w'ubururu, ipantaro ijya gusa ubururu, hirya hari inzu yubakishije amatafari ahiye.

Ni umuhanda w'umukara urimo imodoka zigiye zitandukanye, izitwara abagenzi babavana mu ntara imwe babajyana ahandi hateye ibiti bikeya, hiryahari inzu nini igeretse ifite ibirahuri by'umukara.

Ni inzu bacururizama ibijyanye n'ibyo kunywa harimo umugabo wunamye, inyuma ye hari abagabo babiri iruhande rwe hateretse firigo bakonjesherezamo ibyo kunywa.

Ni inzu nini iberamo ubucuruzi bugiye butandukanye yubakishije amakaro hasi ashobora gucururizamo ibyo kurya bigiye bitandukanye n'ibyo kunywa by'ubwoko bwose.

Ni inzu yubakishijwe amakaro hasi no hejuru, bigaragara ko ari isoko rinini bahahiramo ibintu bigiye bitandukanye, ririmo abantu babiri, umuhungu wunamye wambaye umupira w'umweru n'ipantaro.

Ni isoko rinini ryubakishije amakaro hasi afite ibara ry'umukara n'umweru, bacururizamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo inyanya ndetse hahagazemo umugabo umwe.

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi bigiye bitandukanye; hasi hubakishije amakaro hejuru naho hari amatara menshi yaka ibara ry'umweru.

Ni inzu nini bigaragara ko ari iy'ubucuruzi; hasi hubakishije amakaro; bari gucururizamo ibintu bigiye bitandukanye bigaragara ko ari ibiribwa by'amoko yose.

Ni isoko rinini ryubakishije amakaro hasi ririmo umudamu umwe bigaragara ko ari guhaha, bacururizamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye nka pavuro.

Ni inzu nini nziza yubakishije amakaro hasi irimo abantu benshi bagiye batandukanye higanjemo abambaye imipira iy'ubururu hejuru n'umuhondo bigaragara ko ari iy'ubucuruzi ibintu bigiye bitandukanye.

Ni abantu babiri umuhungu n'umukobwa, umukobwa wambaye umupira wumutuku ushyizeho akantu kameze nk'agasarubeti inyuma usutse bigaragara ko yishimye bari kumwishyura .

Mu isoko rinini ririmo bwoko butandukanye bw'imboga, harimo avoka, inyanya, imyembe, pome, inanasi ndetse n'izindi mbuto.

Ni inzu nini igaragara ko ari iy'ubucuruzi yubakishijwe amakaro hasi, irimo umuntu umwe wambaye ikanzu hejuru isa umukara, bigaragara ko ari guhaha ibintu bitandukanye.